Abadamu batatu bicaye kumeza bari gukina amakarita, baraseka cyane bishimye, umwe yambaye agapira gatukura, umukecuru nawe we iruhande rwe afite imvi nyinshi cyane z'umweru, yambaye n'agakufi keza mu ijosi.

Umusaza uryamye mu bitaro wambaye agapira k'umweru afite imvi nyinshi yifashe ku nda biragaragara ko ari indye cyane, iruhande rwe hahagaze umuganga ufite telefoni mu ntoki ze bigaragara ko ariwe uri kumuvura.

Ababyeyi bane bicaye hamwe bose bateruye abana, bigaragara ko hameze nkaho ari mu bitaro bagiye kuvuza abana babo. Umubyeyi wicaye ku ruhande rw'iburyo arimo aramwenyura, arishimye cyane ari gusekera bagenzi be. Akuzu ra undi...